Abantu bagira uruhare mu gutuma ubuzima bwabo bukomeza kugenda neza, kuko hari inyungu bagenda babona iyo bafashanyije mu gukora ibikorwa bibateza imbere. Ibyo bikorwa birimo kubakirana mu gihe hari ibintu bashaka kugeraho.

Umurwayi iyo agiye kwa muganga hari ubufasha ahabwa byihuse. Mu gihe umurwayi agiye kwa muganga ajyanywe n'imodoka y'ibitaro, biba bivuze ko arembye. Icyo gihe ahabwa imiti hanyuma agakorerwa n'ubutabazi bw'ibanze.

Ibinyabiziga, bikunda guparikwa ahantu hatandukanye kandi ibinyabiziga bifite akamaro cyane kuko bituma abaturage bava mu gace kamwe bajya mu kandi. Ubwo rero ibinyabiziga abantu babifite, bagira ubushobozi bwo gutembera bakava mu gace kamwe bakajyamo kandi kandi bakabona inyungu.

Mu gihe umuntu afite ikibazo cy'uburwayi aba akwiriye kujya kwa muganga kugira ngo abaganga bamwiteho hanyuma bamenye uburwayi bwe. Iyo barangije kumupima bakamenya icyo arwaye, bamuha imiti ihuje n'uburwayi bwe bityo agakomeza kumera neza.

Ku bitaro ni hamwe mu hantu umuntu ajya akaba ashobora gukira uburwayi afite abaganga baba bambaye imyenda ibereye umwambaro wabo kuko aba ari umwambaro w'umweru kandi ushobora kuba ufite isuku cyane.

Ku bitaro ni ahantu umuntu ajya akahabonera ubuvuzi bw'ibanze mu gihe afite uburwayi. Umurwayi wese wagiye kwa muganga, hari ubumenyi ahakura, kandi iyo atahakuye ubumenyi, bamufasha gukira indwara arwaye, bityo ubuzima bwe bugakomeza kugubwa neza.

Kwa muganga haba hari ibitanda, abarwayi barwaye baryamaho, kugira ngo bakire. Ibyo bitanda bifite akamaro cyane, kuko bituma umurwayi abona ihumure, kandi agafashwa mu gihe cyiza. Mu gihe umurwayi agiye kwa muganga azamarayo igihe kirekire, aryama kuri ibyo bitanda, abaganga bakajya bamufasha.

Muri serivisi zo kwa muganga, harimo kugira inama abantu uko bakifata. Mugihe hari abantu b'inararibonye baje ku bitaro, abandi baganga bagomba kubatega amatwi kugira ngo bungukirwe n'inyigisho babagezaho.

Kwa muganga haba ibikoresho byinshi bifasha abarwayi kumera neza by'umwihariko ibitanda biba kwa muganga. Biba bifite isuku ku buryo umurwayi ahajya akumva amerewe neza. Mu gihe umurwayi arwaye indwara ikomeye, ashobora kumara igihe kwa muganga bityo bakamwitaho.

Abarimu n'abanyeshuri baba bagomba kunga ubumwe kugira ngo abanyeshuri bazumve icyo abarimu babigisha, abanyeshuri baba bagomba kubaha abarimu babo ariko abarimu na bo bakabagaragariza urukundo bakina imikino itandukanye.

Kwa muganga hakorerwa ibintu bitandukanye bigamije kugira ngo ubuzima bw'abaturage bukomeze kugubwa neza mu gihe umuntu yagiye kwa muganga ashobora kuhabona igitanda gifasha abarwayi mu gihe barwaye hanyuma bakavurwa bagakira.

Abantu benshi iyo bari mu mahugurwa hari ibintu byinshi bagenda biga kandi bishobora kubafasha mu buzima bwabo kugira ngo umuntu akore amahugurwa neza aba agomba kwitonda akirinda kurangara kuko iyo arangaye bigira ingaruka mbi.

Ku bitaro hari imashini zitandukanye abaganga bakoresha, izo mashini bashobora kuzifashisha mu bikorwa byabo by'ubuvuzi bagapima umurwayi hanyuma bakajya kureba muri izo mashini uko uburwayi bwe bumeze.

Gukorera isuku ibikoresho byacu bifasha abantu kugira ubuzima bwiza kandi abantu bose bakwiriye gukorera isuku ibikoresho byabo. Byumwihariko ku bitaro, ibikoresho bihakoreshwa nabyo biba bikwiriye kugirirwa isuku.

Abantu benshi bakora ibishoboka byose kugira ngo babane amahoro n'abandi, abazungu n'abirabura bakwiriye gushyira hamwe bagashakisha ikintu cyabateza imbere, aho guhora mu makimbirane bapfa ibara ry'uruhu.

Abaganga iyo bari kuvura umurwayi hari ahantu bagenda bandika indwara zabo kugira ngo barebe imiti bashobora kubaha, nanone hari amafishi buzuza agaragaza abarwayi bavuye n'igihe babavuriye.

Abakozi bakora kwa muganga baba bihariye mu bijyanye no gupima indwara, baba bazi gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga ku buryo bamenya umuntu icyo arwaye hanyuma bakamupima bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga bakamuha imiti.

Abacuruzi bakoresha ibikoresho byabo bafata ibipimo bitandukanye, gucuruza bitanga inyungu ariko kandi abantu bakora no kwa muganga, nabo hari inyungu babona kuko bagenerwa umushahara buri kwezi. Uwo mushahara bagenerwa, urabafasha cyane kuko utuma batunga imiryango yabo.

Abaganga baba bihariye mu gupima indwara runaka, bafata amaraso bakayajyana mu isuzumiro, bakayapima bakamenya icyo umurwayi arwaye, hanyuma bakamuha imiti bakurikije uburwayi bwe.

Abantu barwaye baba bagomba kujya kwa muganga, kugira ngo basuzumwe hanyuma uburwayi bwabo buvurwe, bityo bakire, hanyuma bakomeze kubaho mu buzima bwiza, kandi bashimishwe no kuba bahari, batarwaye.

Abana bakwiriye guhabwa amata kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, umwana wanyweye amata ntashobora kurwaragurika kandi hari indwara adashobora kurwara, zirimo inzoka zo mu nda, ubwo rero kunywa amata bituma umwana akura.

Kugira ngo abantu bakomeze kugubwa neza, rimwe na rimwe bashobora kunyuzamo bagakina imikino ibafasha kubana neza, ibyo biruhura imitwe yabo kandi bigatuma ubushobozi bafite bwo kuganira ndetse n'ubucuti bafitanye bwiyongengera.

Urubyiruko hirya no hino mu gihugu ruba rwarashyiriweho inyubako ruzajya ruhuriraho rukaganira, aho ngaho bahabwaga ubumenyi butandukanye harimo, ubumenyi ku buzima bwabo ndetse n'ubumenyi bw'ikoranabuhanga.

|Abantu baba bakwiriye kuganira kugira ngo bakomeze kungurana ibitekerezo, bityo ubuzima bwabo bwo mu mutwe bugenda burushaho gutera imbere kuko umuntu utaganiriye n'undi adashobora kubaho neza mu bijyanye n'imitekerereze.

Abantu kugira ngo bagire ubuzima bwiza ku bijyanye n'imitekerereze yabo, baricara bakagira ingingo runaka bashobora kuganiraho. Izo ngingo zibafasha kubana neza, ndetse n'ubucuti bwabo bukiyongera, hagati yabo.

Imyitozo ngororamubiri abantu bakora, ibafasha kugira imitekerereze myiza ndetse no kubana neza n'abandi bityo bagatekereza ibikorwa bishobora kubaranga nk'abavandimwe kandi bikabagirira akamaro nk'abaturage b'Igihugu kimwe.

Ahantu hacururizwa imiti hafitiye akamaro abaturage kuko bashobora kuhajya bakagura imiti bakeneye. Gucuruza imiti bituma abaturage ibyo bakeneye byose babibona kandi gucuruza imiti byinjiriza amafaranga umuntu ubikora kuko abona amafaranga menshi agatanga n'imisoro ku gihugu.

Imiti ishobora gupfunyikwa mu bintu bitandukanye by'umwihariko imiti y'amatungo inshuro nyinshi ipfunyirwa mu macupa, ayo macupa ashobora kuboneka umuntu ayaguze cyangwa se ayakuye ahantu hatandukanye bityo akaba yakungukirwa.

Abantu bacuruza imiti bagomba kuba bafite icyangombwa kigaragaza ko iyo miti bacuruza ifite ubuziranenge, mu gihe badafite icyo cyanyangombwa leta igomba kubahana kuko imiti ishobora kwica abantu mu gihe itujuje ubuziranenge.

Gucuruza bisaba kugira ngo umuntu abe afite icyangombwa, abantu bacuruza imiti y'amatungo bagomba kugaragaza ko iyo miti yujuje ubuziranenge, kugira ngo umuntu agaragaze ko iyo miti yujuje ubuziranenge agomba kugaragaza ibyangombwa bigaragaza aho yaguriye iyo miti.

Abantu bacuruza imiti, baba bafite ubuhanga bwinshi cyane, kubera ko baba bagomba gusobanura umuntu wese uje, icyo iyo miti imara n'uko ikoreshwa.

Hari imiti abantu bagenda bacuruza inzu zicururizwamo imiti zigomba kuba zujuje ubuziranenge kuko imiti icururizwa ahantu heza kandi hadateje akaga kugira ngo itandura ikaba yakanduza umurwayi.

Abaturage bakwiriye gushyira imbaraga mu bikorwa byabateza imbere. Mu gihe urubyiruko hari ahantu cyangwa se hari amahugurwa rwitabiriye, rugomba gukora uko rushoboye kose rukagaragaza ko hari ibitekerezo rushyigikiye.

Hari indwara runaka zivurwa n'imiti gakondo, iyo miti iba yatunganyijwe n'abantu basanzwe, ni ukuvuga abaturage, hanyuma igahabwa abarwayi bagakira mu buryo bworoshye, bidasabye ko bajya kwa muganga.

Hari imiti ikorwa mu byatsi hanyuma igashyirwa mu macupa, abantu bakajya kuyigurisha, iyo miti gakondo mbere yo kuyigura umuntu agomba kubanza kwitonda kuko atitonze ashobora kugura imiti yamuteza ibibazo, birimo n'ubundi burwayi.

Imiti gakondo ikorwa mu bimera, ibyo bimera bishobora gutunganywa n'abantu hanyuma bikavamo amafu, kugira ngo umuti uboneke haba havangavanzwe ibyatsi bitandukanye, ibyo byatsi kubivangavanga bisaba ubuhanga cyane kandi inararibonye zivuga ko imiti ikorwa mu bimera igira akamaro cyane.

Abantu bagira uruhare mu gutuma ubuzima bwabo bukomeza kugubwa neza, niyo mpamvu hari ibintu bishobora gucururizwa mu masoko, bigatuma ubuzima bwabo bukomeza kugubwa neza, bakabaho neza bishimye.

Abarwayi barwaye indwara runaka bashobora guhabwa ibikoresho bibafasha, urugero nk'akagare gafasha umuntu urwaye akaguru cyangwa se wavunitse ndetse mu gihe arwaye bikomeye akwiriye kujyanwa kwa muganga.

Imiti y'amatungo ifasha amatungo gukura neza kandi ntafatwe n'indwara mu buryo bworoshye. Imwe mu miti y'amatungo ishobora gukoreshwa ni nk'imiti ivura inzoka, cyane cyane ku nkoko. Iyo miti igirira akamaro inkoko, kandi igafasha umworozi kudahomba.

Hari ibikorwa bitandukanye abaturage bagenda bungukiramo, harimo no gufasha abantu kugira ibyo bageraho mu buzima busanzwe. Mu igihe umuntu hari icyo akoze aba agomba gushakisha uko yabona inyungu. Mu igihe umuntu agiye kwa muganga agomba guharanira ko ubuzima bwe bwitabwaho.